Ni byiza kugera igihe cyo gutegura amahugurwa agamije guhugura abantu cyane cyane abaturage ku bijyanye n'ubuzima, imihindagurikire y'umubiri, ibiza n'uburyo bwo kwirinda ibyo byose biba byaturutse hanze.

Iriba ryubatse neza rifasha abarikoresha kubona amazi ku buryo buboroheye, yaba abana, abakuru, utujerekani dutoya bagendana cyangwa ibinini, bikarinda kumenagurika kwayo, kandi no kwangirika kw'ibihakikije.

Iyo hari urukingo rwateganyijwe ku ndwara runaka igiye kuvurwa, biba byiza iyo umuganga ugiye gutera abantu inshinge, aza yambaye ibikoresho bimurinda kuba yakwanduzwa nabo cyangwa amaraso ye akivanga na y'abari kuvura.

Gukaraba intoki n'amazi meza bituma umuntu yirinda indwara, yaba izituruka ku mwanda kandi bigafasha abana kwitoza kugira isuku mu gihe barimo gukina cyangwa se bagiye kurya.

Amazi y'isoko ni meza ku buzima bwacu, ntabwo aba yanduye cyangwa arimo imiti itandukanye iva ku binyabutabire biba byiza iyo yubakiwe, akabungabungwa kugira ngo abashe kugera kuri benshi kandi bayabone ku buryo bworoshye.

Ni byiza ko abantu bakora igikorwa cyo gutera ibimera bitandukanye, yaba ibigira amababi yerera hejuru, ibinyabijumba kuko bigira igihe cyo gukorwamo imiti kandi ivura indwara zitandukanye.

Ni byiza guhugura abaganga mu ngeri zitandukanye kugira ngo babashe kujya kuvura abantu bafite ubumenyi buhagije ku ndwara bagiye kuvura, bifasha no korohereza akazi kabo ndetse n'ababagana bakagenda bishimye.

Isuku ni isoko y'ubuzima. Ni byiza ko twimenyereza gukaraba intoki, igihe cyose hari imyanda twakozemo, tukabitoza abana bakiri batoya bakabikurana, ndetse tukabigisha uburyo bwo kubikora neza binyuze mu mucyo.

Amazi ni isuku n'isoko by'ubuzima, ni ngombwa ko tuyabungabunga, tukayubakira amarobine akomeye ndetse n'igihe tugiye kuyavoma ntituyamenagure, tukarinda abana gukinira hafi yayo kugira ngo batayangiza.

Abantu b'ingeri zitandukanye, abadamu babiri, umwe yambaye amarinete, abagabo bambaye amakarita mu mumajosi, bafite amazi imbere yabo, amakayi, indangururamajwi, bicaye ahantu hamwe bigaragara ko hari ibyo bari kuganiraho.

Mu bice bimwe na bimwe bitandukanye by'icyaro muri iki gihugu cyacu, usanga iyo hari amahugurwa yagenewe abaturage ku kintu runaka yaba gutegura indyo yuzuye, kwirinda indwara zitandukanye, usanga babahurije hamwe ahantu hitaruye mu kibuga.

Iyo umuntu yateguye kuvuga imbwirwaruhame, ni byiza ko azayanditse kandi akaba yambaye neza yahagarara imbere y'abantu bose bakabasha kumutega amatwi kandi akavuga arasa ku ntego.

Ni byiza ko umuganga yambara imyenda yabugenewe igihe ari mu kazi, akambara agapfukamunwa, akaba afite ikaramu n'igitabo yandikamo, akakira neza umurwayi akamutega amatwi amuganiriza, bituma abasha kumufasha byoroshye.

Abakobwa bakiri bato, abasore, bahagaze imbere ahantu hateguye neza, hari ibirango bitandukanye, bigaragara ko bari bari mu mahugurwa ariko bakaba bari kujya mu biganiro mpaka bavuga ku ngingo runaka yateganyijwe.

Gusuzuma indwara zitandukanye harimo umuvuduko w'amaraso, umutima ndetse n'izindi zifata abantu bageze mu zabukuru ni byiza ko bagira umuganga ubakurikirana, akabitaho akamenya neza ko bameze neza.

Kandagira ukarabe ni igikoresho cy'ingenzi buri rugo rwose rukwiye kugira cyangwa n'ibigo by'amashuri kuko cyorohereza abantu mu gukora isuku yo gukaraba intoki mu gihe bavuye mu bwiherero ndetse n'ikindi gihe bakoze mu myanda.

Mu gihe umuganga wita ku bana bakiri batoya, arimo kubakurikirana, ni byiza ko aba afite umwungirije kugira ngo abashe kumwibutsa cyangwa se amuhereze ibikoresho bisabwa kugira ngo bamwiteho neza.

Iyo abantu bahuriye ahantu hamwe ari benshi uba usanga bambaye imyenda y'amabara atandukanye umutuku, umweru, umukara, icyatsi, umuhondo, amagofero n'ibindi bitandukanye.

Abantu b'ingeri zitandukanye ababyibushye, abananutse, abarebare, abagufi, inzobe, ibikara, abagabo, abagore, imyenda bambaye itandukanye, amataburiya y'amabara atandukanye ubururu, umweru bahuriye ahantu hari ibiti birebire.

Inkunga y'imiti itangwa igomba kuba igaragara neza ifunze ku buryo buhagije kugira ngo mu gihe ivanwa ahantu hamwe ijyanwa ahandi itazangirika, yaba ubukonje cyangwa izuba ndetse n'ibindi byayangiza.

Ikirango kigizwe n'amabara y'umweru n'ubururu, igishushanyo kimeze nk'isaka, kirimo ababyeyi, ufite umwana, arimo amureba mu maso, bigaragaza ko ari ahatangirwa serivisi z'ubuzima.

Amazi meza ni ingenzi mu buzima bwacu cyane cyane iyo turi kuyakoresha, yaba mu rugo, mu kumesa no kuyanywa. Ni byiza ko tuyabungabunga tukayubakira n'igihe tugiye kuyavoma ntituyamenagure cyangwa ngo twangize ibiyubatse, tugomba kuyabungabunga uko bishoboka kose.

Ababyeyi bajya gukingiza abana inkingo zitandukanye bitewe n'imyaka bafite, bagakurikiza amabwiriza bahawe na muganga, bakabasha kubakurikirana kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bumeze neza ndetse babarinde kurwaragurika.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye iyo bitabiriye amahugurwa bisaba ko bitwaza amakayi n'amakaramu kugira ngo bandike ibyo bari bwumve, bazabashe kubibwira abandi ndetse hagomba kuba hari n'amazi yo kunywa.

Isuku ni i isoko y'ubuzima iyo wayitoje abana bakiri batoya bayikora banezerewe bagafashanya, bakambara imyenda ifuze, bagakinira ahantu heza hasukuye bituma bishima bagakura neza banezerewe.

Abantu b'ingeri zitandukanye abadamu, abagabo bambaye neza bari mu cyumba cy'inama, urimo kubahugura ari imbere yabo, imbere yabo hari icyapa kinini cyanditseho ibyo bari kwigaho.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi haba mu guteka, koga, kunywa, kumesa, ni byiza ko tuyatunganya tukayarinda kwandura, ndetse tugatoza abana bacu kuyakoresha neza ariko bakibuka gukoresha asukuye.

Ni byiza guhugura abaturage ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe, bituma basobanukirwa bakamenya uko bafasha bagenzi babo, niba hari ugize ikibazo bamenya uburyo bwo kumuganiriza, bigatuma ubuzima bwabo bugenda neza.

Ku bigo by'amashuri ni ngombwa ko haboneka urukarabiro, cyangwa se aho abana babasha gukaraba intoki, mu gihe bagiye kurya, bamaze no kurya, cyangwa se igihe baba bavuye mu bwiherero.

Abadamu bakuze, abagabo, abakobwa bakiri bato, bambaye imyenda itandukanye, amataburiya y'ubururu, amajipo y'umweru, ibitenge, bahuriye ahantu bigaragara ko bahugurwaga ku bijyanye n'ubuzima.

Si byiza ko abana bamenyerezwa kunywera amazi kuri robine, kuko n'ubwo ari ingenzi mu buzima bwacu kuyabona yaba mu byo dukora bitandukanye, ntabwo biba byiza iyo ayafashe nta bundi bwirinzi ashyizeho.

Iyo abantu bari gukora mu bintu bishobora kwangiza ubuzima bwabo, ni byiza ko bambara imyenda ibakwiye yabugenewe igera ku birenge, ipfutse mu mutwe, isura, ubuhumekero kugira ngo babashe kwirinda indwara zaterwa n'iyo miti bari gukoramo.

Icyumba cy'inama kigari kirimo abagabo, abagore, abirabura, abazungu, amazi ku meza, amakayi, amakaramu yo kwandikamo, intebe bicayeho, ameza akoze neza, amadirishya atanga urumuri.

Iyo umuntu ari guhugura abantu cyangwa abagira inama biba byiza iyo akoresheje indangururamajwi mu gihe ari kuvugira imbere y'abantu benshi kugira ngo bose babashe kumwumva bumve ibyo avuga ndetse babashe no kubisobanukirwa.

Ababyeyi bambaye ikinyarwanda ibitenge by'amabara atandukanye, imipira y'umuhondo ifite amabara y'umweru, ama jaketi y'icyatsi, bahuriye ahantu hamwe iruhande rw'inyubako bigaragara ko bari barimo guhugurwa.

Umukobwa wicaye ahantu hari inzu y'amabati ashaje hanitse imyenda hanze, yambaye umupira w'umutuku ijipo y'umukara, ufite ijerekani n'amabase abiri agerekeranye ari gutega amazi, bigaragaza ko yagiye kuvoma.

Abantu b'ingeri zitandukanye barimo abamama, abagabo, abasore n'inkumi, bambaye imyenda amataburiya y'ubururu bahuriye ahantu ari benshi, bigaragaza ko bari barimo guhugurwa ku kintu runaka.

Mu bice bimwe bitandukanye by'icyaro, kubona amazi biracyari ikibazo gikomeye, aho iyo wagiye kuyavoma uri wenyine bikugora kuba wakwikorera icyo wajyanye, yaba indobo cyangwa ijerekani nini. Bisaba ko haba hari umuntu ku ruhande rwawe uri bugufashe, akagukorera.

Abasore babiri barimo kuganira bishimye bigaragara ko umwe ari kubwira mugenzi we inkuru inejeje, bambaye imyenda itandukanye, umupira w'ubururu, agakomo ku kaboko, ishati y'umweru, ahetse n'igikapu.

Ni byiza ko mu bice by'igiturage abantu bahugurwa mu kwirinda indwara z'ibyorezo, bibafasha kumenya uko bitwara n'igihe hagize ugaragara ko yaba yaranduye, bityo bakirinda bakagera ku buvuzi hakiri kare.

Ni byiza kumenyereza abana gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, bituma birinda indwara zituruka ku mwanda, harimo inzoka, izuruhu ndetse n'igihe cyose bagiye kurya bagakaraba bituma barya ifunguro ritunganyije.

Abajyanama b'ubuzima iyo bitabiriye amahugurwa, baba bitwaje ibikoresho bitandukanye, imyenda y'akazi, amataburiya bambara, amakayi bandikamo ibyo bahuguwe, amakaramu, n'ibitabo bibafasha kwihugura bahabwa.

Sare irimo intebe nyinshi zitandukanye zikoze muko bumwe harimo abantu bazicayeho abandi barahagaze abagore, abagabo; ikirango gifite ibara ry'umweru n'icyatsi bigaragara ko aho hantu habereye amahugurwa.

Iyo umuntu afite ibibazo byinshi bitandukanye mu buzima bwe, arangwa n'agahinda, guhora arira, aho ari hose akaba yigunze acecetse, biba byiza iyo hagize ubasha kumuha ubufasha akamuganiriza cyangwa akaba yamujyana kwa muganga.

Iyo hari ubutumwa bushaka gutambutswa ku buryo abantu benshi babugereraho icyarimwe, ni byiza ko babyandika ku kirango cyangwa se igitambaro kinini bakabizengurutsa mu mujyi, bagenda basoma n'ibyanditse, bavugira mu ndangururamajwi.

Urubyiruko rutandukanye rurimo abasore n'inkumi bambaye imyenda isa hejuru hasi itandukanye n'inkweto zitandukanye, umwe yambaye furari abandi bambaye amakote, bari kumwe n'umuntu mukuru bigaragara ko yari umuyobozi wabo.

Abagore batatu, umwe ateruye umwana bakenyeye ibitenge, biteze n'ibitambaro bidasa, bambaye imipira itandukanye bari ahantu hitaruye, hari ibihingwa bitandukanye bigaragaza ko ari mu gace gakorerwamo ubuhinzi.

Umusaza ufite ubwanwa burebure cyane burimo imvi, wambaye ishati igaragara ko ishaje ahagaze iruhande rw'inyubako ifite imitaka hanze, intebe zicayeho abandi bantu ari kuvuga areba hejuru, bigaragara ko ari imbere ya hoteli.

Umujyanama w'ubuzima iyo aganiriza abaturage ababaza ku bibazo baba bafite mu ngo zabo, ibitagenda neza, imibereho yabo ya buri munsi, ibyo barya akabagira inama yo kurya indyo yuzuye n'ibindi bakora kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo urubyiruko rw'inkumi n'abasore, bari ahantu ari benshi, bafite icyapa kigaragaza ko amahugurwa bakoraga bayakurikije kandi bageze ku musaruro.

Mu gihe abantu bari mu mahugurwa ku bijyanye n'ubuzima ni byiza ko bicara bagatega amatwi, bakaza kubaza ibibazo aho batasobanukiwe, bagakoresha indangururamajwi kugira ngo buri wese yumve ibirimo kuvugwa n'ibisubizo biri butangwe.

Ni byiza kuganiriza abantu bageze mu zabukuru cyangwa se n'abandi batandukanye ku bibazo baba bafite, bibafasha kuruhuka ubwonko bwabo bukongera bugakora neza, ntibaheranwe n'agahinda cyangwa ngo bigunge.

Ni byiza ko umuyobozi wateguye imbwirwaruhame aba ayifite yanditse, mu gihe ari kuyitangaza akaba afite indangururamajwi, ndetse akabasha gusoma neza, ahagaze imbere y'abantu, akabasobanurira ibyo yanditse kandi akabibumvisha.

Umuganda ni igikorwa rusange gikorwa n'abaturage bose, abayobozi, abayoborwa bahurira ahantu runaka hateganyijwe, bagakora ibikorwa byo gutera ibiti, imbuto bakurikije ubutaka bw'aho hantu ni byo bahagenewe kuhatera.

Iyo umuntu afite ibibazo byinshi cyangwa umunaniro arangwa no kubika umutwe, akifata mu gahanga, ukabona ibitekerezo bye ntago biri hafi aho. Ni byiza kumugira inama yo gushaka ikintu akora, agakora siporo, agasoma ibitabo, cyangwa ikindi kintu yumva kibasha kumuruhura.

Umukobwa mwiza cyane wirabura useka neza, ufite umusatsi wa natirere. Yambaye ikanzu y'ubururu n'agakote k'umutuku, aragaragara yishimye nk'umuntu uri ahantu yanezererewe.

Umukecuru uri mu zabukuru wambaye imyenda yacikaguritse, inkweto zidahanaguye, yicaye hasi mu bitaka, afite ibintu byinshi imifuka, amashashi, ibicupa yatoraguye, bigaragara ko atagira aho aba akeneye ubufasha.

Umugabo wicaye hasi yambaye ikabutura ngufiya, isengeri, usutse imisatsi igiye inyuma izwi nka direde, ari mu gipe cy'imodoka bigaragara ko yari arimo akora siporo agikurura.

Umuntu usa naho afungiye ahantu hatari ikindi kintu uretse inkuta zihakikije, udafite imyambaro, aziritse ku maguru, yihebye, bigaragaza ko akeneye ubufasha bw'ubuvuzi akaba yaganirizwa kugira ngo atagira ikibazo cyo kwiheba no kwigunga.

Umukobwa wicaye ku gatebe kabajwe mu biti cyangwa se kaboshye yambaye ipantaro nini izwi nka boyfriend, yambaye isengeri y'umukara, agashanete mu gatuza, udukomo ku maboko yasetse yishimye bigaragara ko yasohokanye...

Ni byiza gusukura amenyo ukoresheje uburyo butandukanye haba umuti wayo n'uburoso bwabugenewe cyangwa ugakoresha urudodo ugenda unyuza hagati yayo, bituma imyanda iba yihishe isohoka ku buryo bworoshye.

Icyumba gikorerwamo amahugurwa kigaragazwa n'ibintu bitandukanye, abayitabiriye, abahugura, ibikoresho bakoresha, ibirango biba bihari, ibyo bandikaho, amakaramu n'uburyo baba bishimiye aho hantu.

Mu gihe muganga w'amenyo ari kuvura umurwayi ni byiza ko aba afite, umufasha umuhereza ibikoresho akamumurikira, kandi ibikoresho byose akeneye bikaba bimuri iruhande, kugira ngo abashe kumwitaho neza ku buryo bu.

Iyo umuntu ari kwiga ubuvuzi bw'amenyo ni byiza ko aba afite ibikoresho bitandukanye bimufasha, haba ikibumbano gifite amenyo abasha kwigiraho, ibikoresho akoresha ndetse n'imashini zimwereka uburyo abikora.

Kugira isuku cyane cyane iy'amenyo ni ingenzi mu buzima bwacu, biyarinda kwangirika, guhongoka, ndetse n'impumuro mbi mu kanwa yaturuka ku burwayi bwayo, ni byiza kubitoza abana hakiri kare, bakagurirwa imiti n'uburoso bwabugenewe byo kwifashisha.

Umusore wicaye ku ntebe kwa muganga aryamye yegamye, asa neza cyane n'inzobe ari guseka, afite agatambaro kari mu gatuza k'umweru, bigaragara ko yivuje kandi yanyuzwe na serivisi yahawe.

Ni byiza gusukura amenyo yacu biyarinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda, ibikoresho dukoresha hari ibya gakondo hari n'ibya kizungu, ariko ibyiza ni ugukoresha urudodo urunyuza hagati y'amenyo kugira ngo ukuremo imyanda yose iba yinjiyemo.

Akana k'agakobwa gatoya kicaye ku ntebe y'ubururu, gafite akaroso gatoya k'amenyo kashyize mu kanwa, kishimiye koza amenyo yako bigaragara ko kabyitoje kakiri gato, n'ababyeyi bako, bakabigafashamo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo udutebe tw'ubwoko butandukanye, akegamirwa cyane, agahagaze bicaraho karekare, imashini zitandukanye zibafasha kuvura abarwayi.

Amenyo iyo atitaweho ku buryo bw'umwihariko, arangirika ndetse akangiza n'ishinya, ugasanga umuntu umunwa we warangiritse bikamugora kuba yaseka igihe ari mu bandi.

Umusore wegamye ku ntebe yo kwa muganga, useka neza yishimye, bigaragaza ko yagiye kwivuza amenyo, akaba yanyuzwe na serivisi yahawe kandi inama bamugiriye akaba yiyemeje kuzikurikiza.

Iyo umuganga yiga kuvura amenyo biba byiza iyo afite ibikoresho bitandukanye bimufasha, haba ikibumbano gifite ayo menyo kigaragaza uburyo yayakura bibaye ngombwa, afite ga yambara, itaburiya iranga akazi akora.

Ni byiza kugira isuku y'amenyo yacu tugakoresha imiti itandukanye yabugenewe n'ibikoresho bitandukanye, harimo uburoso bwayo bwabugenewe ariko iyo dukoresheje urudodo rutoya biba byiza kurushaho.

Ni byiza ko umwana akurikiranwa ubuzima bwe bwa buri munsi ndetse akabasha kuvuzwa amenyo, mu gihe yumva afite ibibazo, akagirwa inama n'uburyo yayakorera isuku kugira ngo abashe kuyasigasira.

Ni byiza kumenyereza umwana mutoya koza amenyo, biyarinda kwangirika, agakura akomeye, iyo abasha gukoresha uburyo butandukanye harimo n'urudodo rufasha gukura imyanda iba iri hagati yayo n'andi.

Iyo ufite uburwayi bw'amenyo akubabaza cyane ku buryo utabasha kwihangana, biba byiza iyo ugannye umuganga uyavura wabyigiye akagufasha yaba kuguha imiti cyangwa se iyo agusuzumye akabona igisubizo ari ukuyakuramo nabyo birafasha.

Ni byiza gusukura amenyo dukoresheje imiti itandukanye, ariko hari n'uburyo bwa gakondo bwo gukoresha urudodo ugenda unyuza hagati y'amenyo n'andi, kugira ngo ubashe gukuramo utwanda dukeya tutagaragara uburoso butakuramo.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo kiba kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo aho gukarabira, amazi meza, intebe zo kwicaraho, utubati two kubikamo ibikoresho n'aho umurwayi.

Ni byiza kugira isuku ku mubiri wacu, ku bice bimwe na bimwe by'ingenzi harimo n'amenyo, aho ukoresha uburyo butandukanye yaba urudodo, ugenda unyuza hagati yayo ukuramo imyanda itandukanye iba yafashemo kugira ngo uyarinde kwangirika.

Mu gihe umuganga yakiriye murwayi ni ngombwa ko ari kumuhereza imiti abanza kumusobanurira neza uburyo ikoreshwa, igihe azajya ayifatira, aho azajya ayibika ndetse akamubwira n'ibindi agomba gufata birenzeho kugira ngo itamumerera nabi.

Ni byiza ko abasaza n'abakecuru bageze mu zabukuru, bagira ababitaho kandi bakamenyeshwa ibigezweho bijyanye n'ikoranabuhanga, kugira ngo bamenye amakuru y'aho isi igeze.

Abasaza bageze mu zabukuru biba byiza iyo bafite ababitaho, babakorera amasuku, babatembereza ndetse bakabahora hafi ku gihe, igihe bakeneye imiti bakabasha kuyibaha ndetse bakabaganiriza.

Ni byiza ko umuntu ufite ikibazo cy'imvune iyo agerageza kongera gutambuka aba afite umuntu umwitayeho, ibikoresho bitandukanye akenera birimo agatebe agenda yicumba gakoze mu byuma kandi umufasha akaba amwitayeho.

Abasaza n'abakecuru bageze mu zabukuru, iyo basuwe n'abana babo ndetse n'abuzukuru, baba bishimye cyane bakicara bakabaganirira inkuru, bakabibutsa ibihe bya kera cyangwa se bitandukanye n'ibyo barimo.

Umurwayi uri mu cyumba cyo kwa muganga ahaguruka ku ntebe agerageza kureba ko yakongera gutambuka, nta nkweto yambaye afite akagare cyangwa se inkoni ikoze mu byuma agerageza kuyifashisha.

umukobwa ufite igikapu uvuye guhaha n'umukecuru uri kwicumba akabando, ibyatsi bibakikije, ibiti, bari mu muhanda uwambaye ingofero undi yambaye umupira w'imbeho bigaragaza ko bari mu gihe cy'imvura kandi bakeneye kugera aho bajya hakiri kare.

Umuryango ufasha abageze mu zabukuru ukaba impano, bitewe n'igihe yaba izo kurya, ibiryamirwa, ibiribwa, ndetse n'ibindi bitandukanye bituma bishima na bo bagakomeza kubaho banezerewe.

Umusaza ugaragara nkaho afite imvune cyangwa intege nkeya, arimo kwitabwaho n'umukobwa ufite ikarita y'abaganga amwerekera uko atambuka yifashishije inkoni yabugenewe ikozwe mu byuma ijya kumera nk'akagare.

Iyo abasaza bageze mu za bukuru baba bakeneye umuntu wo kubaba hafi akabitaho, akabamenyera imiti akabatoza kugenda, n'igihe bakeneye ubufasha bwihariye akaba ariwe ubageraho.

Umukecuru uri kwita ku musaza amuha amazi yo kunywa mu kirahure, undi na we akayanywa yishimye, yicaye mu ntebe nziza, bambaye neza. Bigaragara ko babanye mu buzima bwiza none bakaba basazanye.

Umukecuru ugeze mu zabukuru aganira n'umwuzukuru we yishimye, bituma yumva anezerewe kandi akumva nta rungu afite kuko abana baranezeza, biba byiza iyo mubaboherereje bakabasura.

Abakecuru bageze mu zabukuru, baba bagomba kwitabwaho by'umwihariko, mu gihe bafata imiti bitewe n'ubuzima babayeho, biba byiza iyo hari umuntu ubakurikirana akabasha kubafasha, akabibutsa igihe cyo kunywa imiti, kandi bakayinywa.

Intebe zitandukanye zirimo utugare tw'abamugaye iz'abana, iz'abakuru abantu benshi bazishimiye ibiti bibakikije amahema bari bu gamyemo izuba aho bahuriye heza hitaruye.

Umukobwa ukiri mutoya, wambaye agapira ka move, afite imisatsi miremire y'umukara, arikumwe n'umukecuru wambaye ijakete y'umukara, ufite imvi mu mutwe, wambaye amaherena, ariko ari kumutoza gukora siporo, kugira ngo akomeze kubaho neza.

Abazungu, abirabura, abagabo, abagore bambaye imyenda itandukanye, amapantaro, amajipo n'amakote ariko bahuriye ku kintu k'ikarita bambaye mu ijosi, bigaragaza ko hari igikorwa bahuriyemo.

Ikirango cya Minisiteri y'ubuzima kigaragazwa n'amabara atatu icyatsi, umuhondo n'ubururu ndetse n'amafoto agiye atandukanye agaragaza iyo umuntu afite indwara, uko aba ameze, imiti yafata n'ibiribwa yafata.

Indwara zibasira uruhu zikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, aho usanga umuntu yangiritse afite utuntu twatutumbye ku mubiri, biba byiza iyo agannye umuganga wabyigiye akabasha kumuha imiti, akamugira inama n'uburyo yakwitwararika.

Ni byiza ko abantu benshi, iyo bahuriye mu gikorwa gitandukanye n'inama, amahugurwa, iyo barangije biba byiza iyo bafashe ifoto, kugira ngo bajye bibuka igihe icyo kintu cyabereye.

Igipapuro kigaragaza umutwe w'umuntu n'ubwonko ijosi n'intugu, handitseho amagambo atandukanye bigaragara ko ari umuti ushobora gufasha umuntu ufite ikibazo cyo mu mitekerereze.

Abantu benshi batandukanye bambaye imyenda isa, biganjemo abakobwa bisa naho bari guhugurwa ku bintu bitandukanye ariko ubahugura ahagaze imbere yabo baricaye bamuteza amatwi.

Icyumba abaganga babagiramo abarwayi kigomba kuba kirimo ibikoresho byuzuye, iby'ikoranabuhanga, ibyo bifashisha mu busanzwe barimo kuvura, bambaye bikwije, bapfutse imisatsi yabo, bambaye ga kugira ngo batagira aho bahurira n'umurwayi.

Ibimera bitandukanye iyo byahujwe bikora indyo yuzuye, kandi bikaba byiza iyo umuntu abifashe nk'uko bigomba, kuko ubuzima bwacu bushingiye ku kurya indyo yuzuye kandi ifatiwe ku gihe.

Umuntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa bamushimira mu ruhame, bakamuhereza urupapuro rugaragaza igihembo ahawe, ndetse bakamukora mu ntoki bigaragaza ko bishimiye intambwe yateye.

Iyo ufashe ijambo ugiye kuvugira mu ruhame, ni byiza ko wegera imbere ahitaruye, aho abantu bose bakureba, ukavugira mu ndangururamajwi nta bwoba ufite ukabareba mu maso, ukababwira byose ushaka kubabwira nta kibazo na kimwe...

Icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho amagambo agaragaza ko abantu bakwiye kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende, ituruka ku mwanda bashishikariza abantu kugira isuku mu ngo zabo ku myambaro no ku mibiri.

Umukobwa wambaye ipantaro ya kake, inkweto z'umukara, yambaye ikarita y'akazi mu gatuza, ari kumwe n'umugabo wambaye inkweto zifunze, wambaye ipantaro yafunze umukandara, yambaye ishati y'amaboko, bafite ibyapa bigaragaza ko bahembwe mu bintu runaka bitandukanye bakoze.

Abamansela bambaye bikwije, imyambaro yabo igera mu mutwe, bambaye marinete, bari kumwe n'umugabo bamushimira, bigaragara ko hari icyo yabagejejeho cyangwa se bo bakoranye na we bikaba byagenze neza.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ifite akabaraza hanze karimo intebe nyinshi zitandukanye, ameza maremare, bigaragara ko ari ahatangirwa serivisi zo kwakira abantu mbere yuko bayoborwa ahandi berekeza.

Uruhinja rwavutse rugomba gufubikwa mu myenda yabugenewe, ikoze mu bitambaro bikomeye bibasha gukurura ubushyuhe, kugira ngo barurinde kurwara umusonga n'izindi ndwara zaterwa n'ubuhumekero, bitewe n'uko ruba rugeze mu Isi itandukanye n'iyo rwabagamo.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo intebe z'ubwoko bumwe ariko nyinshi, utubati, ameza, imashini, amateleviziyo ku nkuta, bituma abantu bicara mu gihe bategereje abaganga ntibarambirwe.

Amazu y'ibikorwaremezo agomba kuba yubatse ahantu hitaruye, ahari umuhanda byorohera umuntu wese kuba yahagera bitewe na serivisi ashaka gusaba ndetse hakaba hari ibirango bigaragaza ikihakorerwa.

Icyumba cyo kwa muganga kigomba kuba kirimo ibintu bitandukanye, isuku, cyubatse neza, gisize amarange akeye, imiryango ifugika neza, hakaba hari ibitanda bishashe neza kandi bitandukanye, ku buryo buri umwe wese amenya ahe.

Abadamu batatu bishimye bambaye imyenda isa amataburiya y'ubururu, utugofero tw'umweru mu mutwe, inyuma yabo hari ibiti bitandukanye, imikindo. iby'imbuto, indabyo, bigaragaza ko ari ahantu bakorera.

Abakobwa b'abaganga bambaye iniforume zisa, amakarita, udupfukamunwa bishimiye gufata ifoto bigaragaza ko ari inshuti cyane kandi bishimiye akazi bakora.

Amavuriro atandukanye agaragaramo ibyumba bitandukanye birimo serivisi zinyuranye aho usanga hari imashini, yaba izigorora abantu udutanda abarwayi bagendaho, aho abaganga bicara ndetse n'ababategereje.

Icyumba gikorerwamo siporo kiba cyitaruye gihagije kirimo amatapi, ibikoresho bitandukanye byabugenewe, bifasha abantu mu myitozo yabo ngororamubiri, kandi biba byiza iyo harimo umutoza wabyigiye.

Inyubako yo kwa muganga izamuwe neza ifite amatara menshi ayimurikira, imiryango irimo ibyumba bitandukanye, umwanya uhagije wa parikingi ndetse n'aho abagana serivisi zabo bazajya babasha kwicara.

Icyumba kibagirwamo kwa muganga kigomba kuba gifite ibikoresho bitandukanye, harimo akagare k'umurwayi, amashuka yiyoroshe, ibikoresho abaganga bakoresha baje kumubaga, imashini zimupima umuvuduko, amatara amumurika.

Icyumba cyo kwa muganga kibagirwamo abarwayi bafite ibyo bibazo kigomba kuba kirimo ibikoresho bitandukanye, imashini zifasha ababazi kureba, igitanda umurwayi aryamaho, utundi two kwicaraho ndetse na kamera.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi bishashe neza ariko bigiye bitandukanyijwe n'amarido, bifite utumeza buri wese yabikaho, bigaragaza ko aho hantu hari umutekano w'abarwayi.

Kugira ngo muganga atange serivisi nziza, ni uko uko aba afite umwungirije iyo ari we mukuru, akagira aho yandika ibyo umurwayi arimo kuvuga, akagira ibikoresho yifashishapima umuvuduko w'amaraso w'umuntu n'ibindi byumvirizo bakenera.

Inyubako yo kwa muganga igomba kuba ifite icyumba cyihariye kizwi nka laboratwari, aho basuzumira ibizamini bafashe abarwayi hagomba kuba hari imashini zitandukanye zibibafashamo kuko ntabwo babirebesha amaso.

Ivuriro rizwi na benshi ry'uwitwa Nyirinkwaya muri iki gihugu cyacu, rigaragaraho umuryango w'amarembo ufite inzugi z'ubururu, utwuma duhagaze, ibiti by'imikindo hafi aho, ndetse idarako, hirya hegeranye n'inyubako ndende.

Inyubako icururizwamo imiti itandukanye igomba kuba ifite icyapa kiyiranga, igahora ikinguye ikaba yisanzuye, ndetse ikaba ibitswe ku buryo bugiye bugaragara aho uyikeneye bitamugora kuyimenya.

Icyumba kivurirwamo indembe ni byiza ko kiba gifite amashusho atandukanye kugira ngo abashe kurangaza umurwayi, mu gihe ari kuvurwa ye gutekereza ku burwayi bwe kandi hakaba harimo n'ibikoresho byabugenewe.

Umuganga bigaragara ko akorera Umuryango w'Abibumbye, yasuye ikigo cy'amashuri, ari kwigisha abana uburyo bafatamo uburoso bakoza amenyo yabo mu rwego rwo kuyarinda kwangirika no kugira isuku.

Inyubako nini ifite korodoro ndende, ifite ibikoresho bitandukanye harimo intebe, amameza, ibiro, imiryango ikinguye, handitseho Ibyapa, hariho ibyapa bigaragaza buri muryango n'ikiwukorerwamo.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho, isakaje amabati y'ubururu ifite irangi ry'mweru ifite akabaraza, bakoresha umurasire iri ahantu hitaruye hakikijwe n'ibiti, ifite n'icyapa kigaragaza ko ari ivuriro.

Iyo muganga yakiriye umurwayi ni byiza ko amutega amatwi akumva ikibazo afite akamuganiriza, akamugira inama ndetse akaba afite ibikoresho by'ibanze ikaramu, ikayi kugira ngo abashe kwandika ibyo uwaje kwivuza arimo kuvuga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi bitandukanye, inzitiramibu zimanitse hejuru, amarido y'ubururu azinze, utumeza n'utubati, bigaragaza ko aho hantu hakirirwa abantu ariko bakaba batandukanyijwe n'ibyo ngibyo by'amarido.

Inyubako icururizwamo imiti itandukanye igomba kuba iri ahantu hagaragara, ifite icyapa kiyiranga ku buryo ukeneye kuba yajya kuyigura atabanza kuyoboza ahabona ku buryo bumworoheye bityo bigafasha abantu kwivuriza ku gihe.

Inyubako yo kwa muganga nini, ifite korodori irambuye ndende, harimo akagare batwaraho imiti, ifite igishushanyo kimanitse ku rukuta isize amarangi y'umweru, irimo parafu n'amatara manini, imiryango itandukanye yanditseho buri cyumba n'ikihakorerwa.

Ni byiza gushyira ikirango ahantu hose bacururiza imiti kugira ngo abayikeneye bajye bahamenya byoroshye, hagomba kuba ari ku muhanda aho umuntu wese yayoboza akagera cyangwa yabona bimworoheye.

Inyubako yo kwa muganga irangwa n'ibirango bitandukanye, harimo amazina y'aho hantu aho aherereye, ikaba ifite ubusitani burimo ibyatsi n'indabyo, ibigega bifata amazi bifasha mu gukora isuku.

Ni byiza ko mu gihe hari gutangwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, abantu benshi bahuriye ahongaho, batozwa gutonda umurongo bakurikiranye uko baje, kugira hatababa akavuyo hakabuura ubanza n'uheruka bikarangira ntawe bafashije.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo agatanda k'abarwayi gakoze neza mu byuma kabugenewe, akameza hari akabati ndetse n'udufoto tugiye tumanitse ku nkuta biba bigaragara neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe yaho muganga aba yicaye, agatebe yakiriraho abarwayi, akandi babatwaraho hari puberi y'umuhondo, amarido agezweho atandukanya aho basuzumira abarwayi n'aho abategereza baba bicaye.

Icyumba cy'abarwayi kigomba kuba gifite ibitanda bishashe neza, amashuka meza, amarido akingirije buri kimwe, ahantu hakoropye neza, izuba ribasha kuhagera, hari urumuri ruhagije.

Inyubako nyinshi zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigomba kuba zubatse ku buryo bugezweho ari ndende, zifite ibyapa biziranga, ubusitani burimo, indabyo zitandukanye, n'ibiti bizana umwuka mwiza ahongaho.

Icyumba kirimo igitanda gifite imashini iri hejuru yacyo, amabara y'umuhondo ari ku nkuta, ibishushanyo bitandukanye bimanitse, utubati, intebe, ni icyumba kigaragaza ko ari icyumba bakira.

Inyubako nini ifite ubusitani hanze imodoka ziparitse, abantu benshi bayihagaze imbere, hari n'abandi bari kuru rundi ruhande mu kazu gato gatwikiriye gusa, bigaragaza ko aho ahantu hakorerwa ikintu abantu bakenera ari benshi.

Kwa muganga haba hari abakozi batandukanye, abambaye imyenda ya serivise, abambaye iy'ubuvuzi bafasha abantu ku buryo bunyuranye babereka inzira bari bunyuremo bakabakira neza birabanezeza.

Icyumba kigari cyane kigaragaramo ibikoresho by'amabara atandukanye yaba hasi cyangwa hejuru no ku mpande hari ibishushanyo; ibikinisho bitandukanye amabara y'umuhondo, icyatsi, umutuku bigaragara ko ibyo bintu bikunze gukoreshwa n'abana.

Iyo umubyeyi agiye gukingiza umwana kwa muganga, abanza kumupima ibiro, akamushyira ku munzani, ufite imigozi amwambika nk'umwenda ibyo iyo birangiye, nibwo muganga yemeza ko ibiro afite bihwanye n'urukingo agiye guhabwa.

Inyubako yo kwa muganga ni byiza ko iba ifite ibice bitandukanye aho bakirira abarwayi, aho babasuzumira, intebe bicaraho mu gihe bategereje ubakira, ibyapa bibayobora aho bagana ndetse n'abakozi bashinzwe kubafasha.

Icyapa kinini kigaragaza ko aho hantu ari ivuriro, bituma abagana izo serivisi babasha kubibonera kure , ndetse n'iyo bayoboza ntago bayoba, haba ari ku muhanda kandi hitaruye.

Akenshi iyo umuntu aribwo akiva mu buriri akunze kwinanura akarambura amaboko, amaguru, agasasa uburiri bwe neza yarangiza akitegura akajya mu kazi bituma umunsi we ugenda neza.

Umukobwa uri mu cyumba cya siporo yambaye agasengeri karimo amabara y'umweru n'umutuku, ipantaro y'umukara, arararamye yashyize amaboko hasi arimo kunanura amaguru, aryamye kuri tapi.

Icyumba cy'imbagwa kiba gifite ibikoresho bitandukanye, ibyo abaganga bifashisha bareba umurwayi, amatara amurika cyane, igitanda umurwayi aryamaho kiriho akamatera gatoya, hari n'ibindi bikoresho bitandukanye bibafasha kuvura.

Umugabo wambaye isengeri y'icyatsi, azamuye amaboko ari kwisuka amazi mu maso, ari ahantu hitaruye hari igihu kijimye, yambaye agatambaro ka move ku kuboko, bigaragara ko avuye muri siporo akaba arimo kuruhuka.

Umukobwa wambaye agapira k'umutuku, afite terefone ku kaboko irimo udukurura amajwi, afite imisatsi miremire, arimo kunywa amazi ahagaze mumuhanda bigaragaza ko yari ari muri siporo.

Ibikoresho bitandukanye bikenerwa mu buvuzi bwa siporo harimo ibikoresho byo kwambara mu ntoki, imiti iri mu ducupa y'amavuta imeze nk'iri mu two bakanda, ibyo byose ni ingenzi mu buzima bw'umuntu ukora siporo igihe ki.

Mu cyumba cya siporo haba harimo ibikoresho bitandukanye byo kuryamaho, ibyo guterura, ibyo gukurura ariko biba byiza gukora siporo ufite umuntu ugufasha umutoza wawe kugira ngo umenye neza ko izo urimo urakora zijyanye n'ingano y'umubiri wawe kandi zikugirire akamaro.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara uriho ikirango cy'umuhondo, wambaye agapfukamunwa nako kariho ikindi bidasa, ufite imisatsi miremire, isaha ku kaboko, yambaye impeta, afite inzara zisize verine y'umutuku arimo aravura umukinnyi wavunitse.

Umugabo wicaye hasi mu byatsi, arambuye amaguru wambaye inkweto zifunze, isengeri y'umukara, yashyize amaboko ku birenge, bisa naho arimo kugorora amaguru ye, bigaragara ko yari ari muri siporo.

Umukobwa wazamuye amaboko yombi ufite imisatsi imanutse inyuma mu mugongo ifungishije akabandana k'umutuku, bigaragara ko arimo yinanura ameze nk'urimo akora siporo.

Umukobwa wambaye isengeri irimo amabara atandukanye ubururu, icyatsi, umukara, umweru, isume mu ijosi, icupa ry'amazi ririho ibara ry'umweru n'ubururu, ari kuyanywa bigaragaza ko yari ari muri siporo akaba ari mu karuhuko.

Icyumba cya siporo kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, imashini abantu baterura, izo baryamaho, izifasha abantu kwiruka ndetse n'ababafasha bigaragara neza ko aho hantu haba hizewe.

Icyumba gikorerwamo siporo kiba kirimo abantu b'ingeri zitandukanye, abagabo, abagore, abatoza, ibikoresho binyuranye, harimo ibibafasha kwiruka, gusimbuka, guterura, gukurura, bituma ingingo z'umubiri zose zigororoka ku barimo kubikoresha.

Ni byiza ko umuntu ukora siporo agomba kuba afite bimwe mu bikoresho bitandukanye harimo ibyuma aterura, amaga yambara, metero yipimisha iyo agabanya ibiro cyangwa areba ko uburebure bwiyongereye, akarya imbuto ndetse akanywa n'amazi ahagije.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri siporo, harimo imititi y'ubwoko butandukanye ifunze mu dukarito n'uducupa bitandukanye, buri umwe ugiye wanditseho icyo ukora, igihe ukoreshwa n'abawukoresha.

Igikapu gifite imifuka myinshi itandukanye ku mpande, ndetse n'umunini wo hagati, kirimo imiti y'ubwoko butandukanye, amasabune, amavuta, amazi, ndetse n'imikasi, n'ibindi bikoresho bakoresha bavura.

Gukora siporo ni ingenzi mu buzima bwacu, cyane cyane iyo tuzikora buri munsi, tugakoresha ibikoresho byabugenewe, imyenda, inkweto, amasogisi, aho kuzikorera ndetse tukagira n'abazidufashamo.

Rugubi ni umwe mu mukino ukunzwe n'abantu benshi, iyo bawukina usanga bambaye bikwije ingofero, imyenda n'inkweto bagakinisha umupira ufite forume nk'iy'ikijumba, bagakinira mu kibuga kimeze neza,

Umuntu ukora siporo agomba kuba afite ballon imufasha gukora iyo siporo, inkweto ndetse n'agakoresho kabasha gupima uko umuvuduko w'amaraso we uhagaze kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kuba bwiza.

Umukobwa uri mu cyumba cya siporo wambaye agakora k'ubururu, agasengeri gatoya kageze munsi y'amabere k'umweru, yazamuye amaboko, arambura amaguru, agaragaza ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga, uwafashe ifunguro rimeze gutyo iyo akoze siporo ubuzima bwe bugenda neza, agakomeza akomeye, agakura neza n'ubwenge bwe bukaba bwiza.

Umukobwa wicaye hasi kuri tapi wambaye isengeri nipantaro bisa, arimo kurambura amaguru n'amaboko bigaragara ko arimo gukora siporo mu gihe aherereye mu cyumba zikorerwamo.

Iyo abantu bahuriye ahantu hamwe barimo gukora siporo biba byiza birabafasha kuyikora banezerewe kandi bakamenya uburyo butandukanye ikorwamo, yaba kugorora ingingo z'imibiri yabo ndetse n'ibindi.

Ni byiza gukoresha imiti izwi nka barafu igihe wavunitse, uyishyira ku mvune amaraso yari yipfunditse cyangwa se hashyushye cyane, hakabasha gukonja bityo umubiri wawe ukaguma umeze neza.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, agasengeri k'umweru gaciyemo, afite imisatsi miremire igiye inyuma, ahagaze yazamuye amaboko, ari ahitaruye hagaragara amazi imbere ye, bigaragara ko yari yagiye kuruhura ubwonko.

Iyo ufite ibimera bitandukanye ni byiza ko ubikorera isuku ukabikuramo byinshi bibyona ukabibagarira, ukabifumbira, ukanabyuhira kugira ngo bizabashe kuguha umusaruro uhagije.

Ibimera bifite amababi atandukanye ay'icyatsi, umutuku, umuhondo, umweru akenshi biba ari indabyo cyangwa imbuto zikorwamo imiti kandi ivura abantu.

Amavuta cyangwa isabune bikomoka ku kimera k'icyatsi kibisi kizwi nk'igikakarubamba, ni ingenzi kuyakoresha kuko arinda indwara z'uruhu zitandukanye cyangwa se akavura indwara zo mu nda.

Uducupa tubiri dutoya tureture dupfundikiye neza, turiho igipapuro kimwe cyanditseho ubwoko bw'umuti urimo, akandi na ko kariho ubwoko bw'umuti urimo bigaragaza ko bitandukanye.

Ibimera by'icyatsi kibisi bitohagiye, bifumbiye, bihinze ahantu heza, byuhiwe, byarinzwe izuba, bikorwamo imiti itandukanye itagira ingaruka ku buzima bw'abayikoresha, kandi ni myiza kurusha imiti ya kizungu.

Imiti ya kinyarwanda akenshi ikomoka ku bimera bitandukanye bifite amababi y'icyatsi bihingwa cyangwa bikimeza, ni byiza ko tubyitaho uko bikwiye, tukabivomerera, tukabibagarira ndetse tukiga n'uburyo bikoreshwa.

Imiti myinshi itandukanye ikomoka ku bimera yaba iyatetswe bisanzwe ikanywebwa ari mibisi cyangwa iyaciye mu nganda igatunganywa, ni byiza ko tubibungabunga, tukabyuhira, tukabibagarira ndetse tukabifumbi aho biri ngombwa.

Ikimera gikunze kwimeza ku ngo z'abaturage, kigizwe n'amabara y'icyatsi kibisi kirekire kiba gifite igiti k'ingingo, kizwi nk'umuravumba, kivura indwara nyinshi zitandukanye, yaba inkorora, inzoka n'ibicurane.

Kubika imiti mu bikoresho byabugenewe harimo nk'uducupa dutoya dupfundikirwa, biba byiza kuko biyifasha kutangirika, ikamara igihe ndetse ikaba ibitswe mu buryo bwujuje ubuziranenge.

Agakombe k'umweru karimo n'umuhini bisa, iruhande rwako hari uducupa tubiri turimo imiti yamaze gukorwa, bigaragaza ko ako kameze nk'isekuru isekurirwamo imiti y'ibyatsi kugira ngo ibashe gufasha abantu.

Ibimera bitandukanye birimo n'igikakarubamba, bikunzwe gukoramo imiti gakondo, ibasha kuvura indwara zitandukanye. Ni byiza ko itunganywa kandi ikabikwa ku buryo bwihariye, mu macupa apfundikiye neza kandi agashyirwa ahantu humutse.

Ibimera bifite amababi y'icyatsi akenshi iyo byitaweho bigahingwa, bikuhirwa, bikagarirwa, bigafumbirwa birakura bigasa neza bityo bikavamo imiti itandukanye ikoreshwa mu kuvura abantu.

Iyo uri umucuruzi ucuruza imiti itandukanye, ni byiza ko uyibika ku buryo butandukanye, ukurikije ubwoko bwayo n'icyo ikoreshwa. Ukayishyira ahantu igaragaza neza ibiyigize ku buryo uyishaka bitamugora.

Ibimera by'icyatsi bigira amababi atoshye, bikunze gusangwa mu mashyamba cyangwa bikaba byaratewe, ariko ku babizi bivamo imiti itandukanye ivura indwara zinyuranye.

Imiti itandukanye ikomoka ku bimera by'icyatsi kibisi, ni byiza ko itunganywa neza ikabikwa mu macupa apfundikiwe kandi bakandika inyuma ubwoko bwayo, uko ikoreshwa n'uko igomba kubikwa.

Imiti gakondo itandukanye ikomoka ku bimera, ni byiza ko nyuma yo kuyitunganya ibikwa neza ikabikwa mu ducupa dupfundikirwa, ikandikwaho ibiyigize, aho ikoreshwa n'ingano yayo.

Kimwe mu bimera abantu bakunze kwifashisha ariko badakunze gusobanukirwa akamaro kacyo ni icyitwa tangawizi, kibasha gufasha umuntu mu igogorwa rye cyangwa igihe yarwaye mu muhogo kibasha kumwomora.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera, igomba kuba ifunze mu ducupa tumeze neza, ikajyaho ibirango bigaragaza icyo ikozemo, icyo ivura, igihe izamara, uburyo bwo kuyibika, ndetse n'uburyo bwo kuyikoresha.

Ibitunguru by'umutuku iyo bivanze n'indimu bikora umutobe ushobora gukoreshwa nk'umuti, ukabikwa neza mu icupa ripfundikiye, ukandikaho igihe cyo kuwukoresha n'aho ugomba kuwubika.

Ibimera by'icyatsi kibisi bikunze gukorwamo imiti itandukanye ivura indwara, ikoreshwa n'abantu bayizi neza kandi biba byiza iyo yitaweho igaterwa ikuhirwa ikarindwa izuba.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera ni byiza ko ifungwa mu macupa yabugenewe, ikandikwaho ibiyigize uburyo ikoreshwa, abayikoreshwa, uburyo bwo kuyibika ndetse n'igihe izamara.

Icupa ry'ikirahure riforomye nka sirendire, ariko rifite umunwa uzamuye, ripfundikiye neza, ririmo umuti wanditsweho inyuma ibiwugize. Hariho igipapuro kigaragaza ibyo ari byo.

Ubusitani bunini burimo ibiti bitandukanye by'amoko yose, icy'icyatsi, iby'umweru, ibikomeye, ibyoroheje, ibyo byose ni ibikorwamo imiti gakondo ibasha gufasha abantu kandi itagira ingaruka.

Mu bwoko bw'imiti itandukanye habamo n'amavuta akozwe mu bimera, ni byiza ko mu gihe yatunganyijwe, agaragazwa kandi agasobanura neza icyo abasha gufasha ku mubiri w'umuntu ugiye kuyisiga.

Imbuto zitandukanye zikomoka ku bimera harimo indimu, tangawizi, amababi yabyo bikorwamo imiti ibasha kuvura igihe umuntu yarwaye mu mihogo cyangwa se bikanywebwa mu cyayi kugira biryoshye.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera bitandukanye, ni byiza kuyitunganya neza igashyirwa mu macupa atandukanye cyangwa amashashi ndetse tukibuka kwandikaho buri bwoko bw'umuti, icyo uvura, abo ugenewe n'igihe uzamara.

Igikakarubamba ni ikimera gifite ibara ry'icyatsi gihingwa ahantu hose cyangwa cyikimeza, gikorwamo imiti itandukanye yaba amasabune yo koga, amavuta yo kwisiga cyangwa se cyikanywebwa ari kibisi.

Imiti itandukanye iri mu bicupa byererana bifunze n'imifuniko, biriho ibyapa bigaragaza ibiyirimo bisa naho ikomoka ku bimera, kuko mo imbere harimo ibyatsi kandi wabibona urebeye inyuma y'aho biherereye.

Ubukerarugendo ni ikintu cy'ingenzi ku bihugu byinshi bitandukanye, bibasha kwinjiza amafaranga. Abakerarugendo iyo batembereye mu misozi, usanga bitwaje imyenda ibafubitse ahantu hose, ndetse bagashimishwa no kubona ibyiza bigize aho hantu.

Ni byiza kubika imiti mu makarito afunze neza, ndetse ukayishyira ahantu hejuru hatagera ubukonje, bituma itangirika ikabasha kumara igihe kinini, kandi abayikoresha ntibagireho ingaruka.

Ni byiza gutandukanya amavuta n'amasabune dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, bakandikaho ibyo akozemo, abagomba kuyakoresha n'igihe agomba kuzamara, bifasha abayakoresha gutandukanya ibyo bakeneye.

Amavaze ateyemo ibiti by'icyatsi, hari uducupa tubiri dusa nk'uturimo imiti, agasekuru n'umuhini, imbuto zitandukanye, bigaragara ko umuntu ari gutegura ibyo kwifashisha mu kuvura.

Uducupa dutoya dukunze kuba dupfundikiye ariko ugasanga turimo imiti ikomoka ku byatsi, ibyo ubibwirwa nuko haba hariho igipapuro inyuma kizengurutse, cyanditseho ubwoko, aho ukoreshwa, uko ubikwa, n'abawukoresha.

Imiti itandukanye ifungwa mu ducupa dukomeye, igashyirwaho imifuniko ndetse ikandikwaho ibiyigize, ibyo ikozwemo, abazayikoresha, uburyo izakoreshwa, aho kuyibika n'igihe cyo kuyikoresha.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, umupira w'amaboko maremare w'ubururu, ingofero yo mu mutwe, agapfukamunwa, afite imiti myinshi itandukanye, arimo arayivangura ayipakira mu makarito, akurikije ibyanditseho ku macupa yayo.

Agacupa gatoya gakoze mu kizeru gafite umupfundikizo gasa umweru, kariho ikirango cy'ubururu cyanditseho amagambo asa naho asobanura umuti urimo aho ngaho uko ukoreshwa n'igihe ukoreshwa, hariho n'uruyuki bivuze ko ukozwe mu bikomoka ku binyabutabire.

Ibimera by'amabara atandukanye byo mu bwoko bw'indabyo umuhondo, move, umutuku, icyatsi kibisi, nibara rya move ryijimye. Ibi ni ibimera bikorwamo imiti gakondo.